Aho abarwayi bakirirwa: ni aho baba baragenewe kwicara mu gihe bategereje ababafasha. Niyo mpamvu buri wese akwiye kuguma mu mwanya we, kugira ngo ategereze muganga uza kumufasha akamuha inama cyangwa inyigisho akenewe.

Amenyo yacu ni genzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi niyo mpamvu umuntu wese ashishikarizwa gufata neza amenyo ayakoreshe ku buryo butandukanye niba umaze kuryaho ukaya norosa waba umaze kugira ikindi kintu cyose afata ukasukura kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza abashe gutakaza impumuro mbi ibiririmo.

Siporo ni ingenzi cyane mu mubiri wacu kuko iyo ukora siporo bituma amagufa yaba arambuka kandi bigatuma uhumeka neza, umubiri utakaza wa myunyungugu biri mu mubiri mbese bya byuyuma, niyo mpamvu iyo usohoje siporo ubu nazi kwahukabasiga kuruhuka kunywa amazi kuko amazina niay'ingenzi mu mubiri wacu.

Imiti gakondo: icyo idufasha ibasha kutuvura indwara zitandukanye, haba hari indwara z'amarozi cyangwa n'izindi ndwara zizanye, buri muntu wese ashishikarizwa gukoresha imiti gakondo ariko yujuje ubuziranenge.